Icyumba cy'inzu bacururizamo, gifite parafo y'umweru iriho n'amatara maremare ari kwerera. Iki cyumba kirimo ameza, intebe n'ibicuruzwa, n'umuntu uhagaze hirya imbere y'utwa etajeri.

Ibyapa bibiri, kimwe cyanditseho lajenadori, ikindi cyanditseho pirimusi, biri imbere y'amarembo ari mu rukuta rwubakishijwe amatafari, ruteye irangi ry'ubururu, imbere hari umuhanda w'ibitaka, hirya hari igiti kirekire cya gereveriya, hamwe n'utuzu tw'umutuku.

Ni ibara ikinguye iriho abantu babiri bahagaze muryango, umwe afite igikombe cy'icyuma, undi yambaye agapfukamunwa yakamanuye, mu muryango ukinguye uriho ibyapa by'ibyo bacuruza harimo inyange n'amazi na idereti, ndetse n'ingufu ifungiye ku muryango ugafatata hanze hakaba hariyo intebe ya plastike.

Iyi ni inzu y'imyidagaduro, aha ni ku rubyiniro hari ibyuma bitandukanye bya migiseri, aho bavangira umuziki, hari n'abantu bari kubyina, hari n'amatara ari kwaka mu mabara atandukanye.

Iyi ni etajeri ifite etaje zitandukanye, iyo hejuru irimo inzoga zo mu bwoko bw'ibyuma, iya kabiri irimo mitsingi, purimusi, sikolo, hamwe n'ikurete y'amagi, hasi hari ikarito irimo amazi yitwa akwasipe ndetse na ji zo mu bwoko bwa novida, igikuta cy'inyuma kiriho urupapuro rwometseho.

Ibara cyangwa hoteli irimo abantu batandukanye bicaye mu ibara, iyi inyubako irimo amatara ari kwaka na televiziyo ziri ahantu hatandukanye abantu bareba bari kwakirwa muri iyi bara.

Iyi ni inyubako isakajwe amabati, ifite ibaraza ry’ibati. Ku gice kimwe cy’ibaraza, hariho aho bakirira abantu, ibara na kontwari, ndetse n’intabe abantu bicaraho. Mo imbere harimo inzoga zitandukanye n’icyapa cyanditseho Pirimusi. Hari n’umuryango ukinguye, hariho umukobwa wambaye ipantaro, urimo gusoma.

Intebe z'ubwoko butandukanye zo kwicaraho. Imbere hari ameza afite icyo hasi cy'umukara, hejuru akaba ari umuhondo. Hasi hari igice kiriho amakaro, ikindi kiriho amakaro abumbye. Hirya hahagaze umugabo wambaye agapira karimo uturongo tw'umweru n'umukara bitambitse.

Bare iri kugaragaza igice cy'urwakiriro rw'abantu, imbere ya kontwari hari intebe ndende, nta muntu uzicayeho muri kontwari hariho etajeri ipanzemo inzoga zitandukanye ,hakurya hari urukuta ruriho udupapuro tw'amatangazo ,ifite parafo y'imbaho ,hapavomesheje amabuye y'ibice.

Inzu ya gitwe kimwe iteye amarangi yubururu. Isakajwe amabati, imbere hariho antene y'isahani. Ifite ibaraza rifite amabati y'umutuku, hariho ibyapa bya pirimusi n'imitaka ya pirimusi. Handitse bale she Folora. Irakinguye, sima isa n'umutuku. Ku mpande hari igikuta cy'inzu kiri kugaragara.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru ukenyeye igitambaro cy'igitaka, yambaye na ne mu ijosi afite icupa mu ntoki, iruhande hari ikirahuri hamwe n'udutambaro, imbere hari umugabo wicaye, inyuma y'umugabo uhagaze hari urukuta rwubakishijwe amatafari ateye irangi ry'umukara, hariho n'ibipapuro byometse ku nkuta biriho henikeni.

Inzu banyweramo inzoga zitandukanye, yubakishijwe amatafari ahiye, ateye verine. Harimo n'idari rikozwe mu bibingo. Harimo tereviziyo n'intebe zitandukanye, n'amatara ari kwaka.

Umugabo uhagaze muri bare, yambaye ishati y'amaboko maremare, ari guseka, afite icupa mu kiganza, ari gusuka mu kirahuri. Iruhande rwe hari ibirahuri n'akarahuri gatoya karimo umuheha, inyuma ye hari amacupa maremare, hakurya hari igikuta cy'inzu kiriho amakaro yometseho ibyapa.

Iki ni icyapa kiri kuranga ahantu hari amazu, ya gesiti hawuzi ya Kayitare, hari na nimero wamushakiraho, za emutiyene ndetse n'iza tigo, hirya hari igitanda kiriho imisego itandukanye.

Botike bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye ifite urukuta rwubakishijwe amatafari ahiye rudahomye hariho abagore babiri umwe ari gucuruza undi ari kugura. Hari imifuka itandukanye y'ibirayi bya Kinigi hari n'ubutanda burimo imboga zitandukanye karoti, inyanya, ibitunguru, puwavuro, urusenda. Hegetse n'igisheke hari n'igitoki mo imbere hariyo umunzani uteretse kuri eta.

Urukuta rw'inzu rwometseho amakaro afite utubara twinshi, hari umuryango umwe ukinguye igice kimwe, igice gikinguye kiriho igitambaro, imbere y'inzu ku mbuga hari amapave, hari abagabo babiri bari kugenda, umwe afashe inkweto mu ntoki undi w'imbere yambaye ingofero y'uruziga.

Butike yubatse irakinguye n'iy'umuryango umwe, imbere hari icyapa kigaragaza ibyo bacuruzamo, ndetse iyi ni butike ya konoshi iriho yubakisha amatafari ahiye ifite n'amakaro hejuru, iburyo bwayo hari indi nzu n'ibumoso hari n'indi inzu inyuma hari inzu ndetse no hakurya hari umusozi uriho iminara ibiri.

Inzu y'ubucuruzi ifite umuryango umwe n'inzugi ziri dubure, urakinguye, hanze ha butike hariho amakaro n'akabaraza gatoya. Mo imbere harimo ameza ariho ibicuruzwa, higanjemo imboga, imbuto n'igitoki, n'udufuka two gushyiramo ibihahwa.

Imikeka yo mu bwoko butandukanye, imwe irazinze iregetse harimo n'imisego, hari matera zirunze zifite igifuniko cy'amashashi, ziri imbere y'inzu umuryango urakinguye.

Inyubako yubucuruzi ifite ibaraza ririho inkingi z'uruziga. Hanze yininyubako hariho amakaro n'amakositarq, hicaye umugore witandiye mu mutwe, hari n'ibitambaro bitatse, hegetse amagare abiri hamwe na kandagira ukarabe iriho indobo.

Inzu ya etaje igeretse kabiri. Ifite amabaraza ateye irangi ry'umweru ariho uturindabasazi. Ku nyubako yo hasi iriho icyapa cya ekwiti ku yo hejuru hariho icyapa cya heyinikeni. Iruhande hari ipoto iriho insinga z'amashanyarazi.

Botique icururizwamo ibyuma byo mu by'umuziki cyangwa umuzindaro. Harimo ingoma, hari mixell, harimo amabafule, hanze hari n'imashini idoda imyenda akaba hari n'intebe ya plastike. Boutique irakinguye harimo umuntu uhagaze arebamo imbere ateye ibitugu hanze. Hanze y'iyi nzu hubakishije amakaro yo mu bwoko bwa tzo

Inyubako ifite ibaraza n'imiryango itandukanye, umuryango umwe urakinguye uriho icyapa cyanditseho niyu vijoni salo, iriho amoko y'inyogosho bogosha, hahagaze abagabo babiri undi mwogoshi yicaye ku ntebe, imbere hari umugezi wakandagira ukarabe iyi foto yafotowe na terefone yitwa infinigisi simati gatandatu.

Icyumba cy'inzu y'ubucuruzi harimo ibicuruzwa bitandukanye: amasakame, amasakoshi, n'amasaha. Harimo umucuruzi wicaye imbere. Iyi nzu hasi harimo amakaro, ku mpande hari ruturinda abasazi, iteye irangi ry'umuhondo.

Urukuta rwinzu ya konoshi ruri kugaragara imbere hari umuryango w'ubururu ukinze, hejuru hari icyapa kiriho serivisi zitandukanye batanga harimo irembo, na Beka yacu na Eyateli. hari urutsinga ruturutse hejuru rugiye kuri kashipawa, iruhande hari inkingi y'icyuma itari kugaragara neza, hepfo hari akabati gakozwe mu biti karimo n'itara riri kwaka.

Inzu ifite kontwari iteye irange ry'umukara hejuru hateretse imbabura zikozwe mu ibumba n'ibyuma ifite amabara y'ubururu n'ikigina, imbere hari terepuregise hari n'akarindabasazi. Iyi foto yafotowe na telefone yitwa Tekino sipake.

Butike ifite umuryango umwe ukinguye, indi butike hirya yaho irakinze, ikingishije ingufuri ebyiri, iyi butike ifunguye hari umwana w'umusore uhagaze mu muryango, wambaye ikoboyi na supurese ,n'aga ti sheti ,afashe akantu k'umweru mu ntoki, iyi butike mo imbere harimo firigo, intebe ya sheze igaragara ko bacururizamo ibintu byo kunywa n'ibyo kurya.

Inyubako ifite ibaraza ry'umutuku n'inkingi z'uruziga. Imbere hubakishijwe imbaho, hari imiryango ikinguye n'imiryango ikinze. Imbere hari ingazi, imbere y'ingazi hari igare rihagaze n'abantu bahagaze bari gupakira ibintu mu mufuka. Imbere y'inzu hari imbuga idapavomye iriho abagore bari kugenda, umwe ahetse agafuka ku rutugu afite n'ibindi mu ntoki, undi ari inyuma ye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, hanze hari icyapa kiriho serivisi zitandukanye batanga. Hanitse Papeteri Raverite esupiriye rimitedi. Hariho nimero ya terefone ikoreshwa kuri watsapu na imeri bakoresha. Iyi nzu ifite garidefu, ari two turindabasazi.

Inzu ebyiri bacuruzamo ibintu bitandukanye zifite imiryango ikinguye hanze harunze amapine y'imodoka yakoze, hahagaze n'abagenzi hari n'umugore wikoreye ibase irimo ibihaza cyangwa ibidegede inyuma hakurya hariyo ikirunga.

Butike bacururizamo ibintu bitandukanye, ifite umuryango umwe munini ukinguye, ometsweho amakoro y'umweru, ifite ibaraza risakajwe amabati y'umutuku iruhande hari akabati karimo gaze, imbere ya butike hateretse gaze zigerekeranye, hari n'igare rihaparitse mo imbere harimo abagabo babiri n'ibicuruzwa.

Inzu ya konoshi ifite igisenge gihishe, ifite imiryango itatu, umwe urakinguye ,ibaraza ryawo ririho amakaro y'umweru, imbere hari intebe n'umuntu yicaye wambaye ijire ya emutiyene, imbere hari umuntu uhagaze hari n'igare ryegetse ku gatanda kabamo amagaze, imbere y'inzu ikinguye hariho umufuka, imbere hari akazu ka emutiyene n'intebe itariho umuntu imbuga iriho amapave.

Inyubako yubatse neza igeretse rimwe, isakajwe amabati y'umukara, imbere handitse fakitori makumyabiri na kabiri, ifite ibaraza hasi hari uturinda abasazi iteye irangi ry'umweru.

Butike zitandukanye bacururizamo ziriho amakaro inyuma, imbere hari ibiti biriho insinga z'amashanyarazi, imbere mu muhanda hari abanyamaguru bari kugenda, n'umutaka wa emutiyeni.

Urugi rukinguye rusa n'uburu, hariho ingufuri ebyiri zihafugiyev ndetse ibuye ku rugi n'imbere harimowo amakara harimowo ibicuruzwa bitandukanye byo muri mecisse inzuki n'ibindi byuma infunguzo imbere hari amakayo

Inyubako ifite igihande kimwe cyometseho amakaro ku ibaraza. Ikindi gihande giteye ibara ry'ubururu, hegetse n'igare. Umuryango ukinguye, hicaye umugore usigatiye umwana n'undi mugore uhagaze. Ku ibaraza hateye amakaro, haruguru hari andi magare aparitse begetse ku nkingi.

Itaburete ndende ikozwe mu mbaho, hejuru hateretse inkoko iriho ubunyobwa bufunze mu mashashi, hamwe n'amabombo, hasi hariho umufuka n'agapaniye kuzuye gatwikije imyenda, imbere hicaye umugore uri kubara amafaranga witwikiye umutaka, hirya hari umugore wicaye ku gataburete wambaye akajire ka emutiyene ,inyuma hari moto iparitse.

Inzu iri kugaragaza igice cyo hasi kiriho inzugi zikinze hakingishijwe ingufuri n'iseriri. Hariho icyapa cyometseho kigaragaza serivisi batanga harimo raputopu, amabafure no ku meza imbere hari amakaro.

Akazu ka emutiyene gakozwe mu byuma, gateye irangi ry'umuhondo, hanze handitse emutiyene momo jasite momo iti, hashushanyije telefone ku ruhande rw'imbere, hari ibyapa byatangiye kuhava kubera gusaza, n'imbere harimo intebe iboshwe mu birere.

Mu gice cy'umuhanda wa kaburimbo gifite imirongo y'umweru ku mpande, hakurya y'umuhanda hari sangoma n'imbuga idapavomye, imbere hari inzu ebyiri zitandukanijwe n'akanya hagati, imbere hahagaze ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, inzu zose zifite imiryango ikinze, inzu imwe ifite amakaro ku ibaraza hariho n'icyapa.

Inzu bacururizamo ibintu bitandukanye, bifite kontwari iriho ibikarito hateretse indobo ebyiri ,hejuru zipfundikiye zirimo amandazi . Harimo n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, hamwe n'umucuruzi imbere.

Inyubako iteye irangi inyuma ifite urugi rumwe n'amadirishya abiri, hejuru hari amakositara igisenge cyayo kirahishe. Ku mbuga y'inyubako hapavomeshejwe amapave, iruhande hari porotaye ikozwe mu byuma.

Inzu ya mugongo wa tembo, isakaje amabati asa nkashaje, ifite umuryango umwe n'amadirishya atatu, ikorerwamo umwuga w'ubumbyi bw'imbabura, hari abadamu babiri bakora uwo mwuga, imbere hari igiti kinini cya gereveriya.

Inzu za konoshe ziri ku murongo ziteye amarangi atandukanye, buri yose ifite ibaraza ririho inkingi, hagati hari ipoto ndende iriho insinga nini n'intoya, imbere y'inzu hari umutaka wa mtn n'imodoka iparitse, hari umuhanda w'umukara urimo umurongo w'umutuku n'umumotari uhetse umugenzi bari kugenda mu muhanda.

Mu muhanda urimo abantu batandukanye n'ibinyabiziga, harimo moto ihetse umuntu bambaye n'amakasike n'umunyegare utwaye igare, ahetse umuntu wambaye umupira w'ingofero, undi mugore ari kwambukanya hagati, iruhande hari ibiti birebire by'insinga z'amashanyarazi, inyuma hari abamotari baparitse n'inyubako yanditseho fone seta, ifite inkingi n'amabara y'umuhondo

Ku iduka rikinguye, hasi hariho amakaro, harimo ibicuruzwa bitandukanye imipira, ibikapu, amasahani amabase n'amasafuriya harikwaka amatara mwimbere.

Inyubako iri kugaragaza ibice bitandukanye, hari inkingi zihagaze. Igice cyo hasi gisa n'umukara, igice cyo hejuru gisa n'igitaka. Inyuma hariyo uruzitiro rw'amabati n'abagabo bahagaze, harimo ibihaza biteretsemo.

Isoko bacururizamo, rifite ibaraza riteye, irangi ry'umuhondo ku ibaraza, hari umuntu wicaye mu mutaka wa emutiyene, harunze n'ibicuruzwa byinshi, harimo n'amakaziye, hari abantu bari kugendagenda imbere hari umuhanda urimo imodoka zitandukanye, harimo iyanditseho, toyota imbere y'inzu kandi hariho ipoto ririho itara.

Inzu y'ubucuruzi ifite ibaraza rifite inkingi, yometsweho amakaro y'umweru, harimo uturonko duhagaritse n'udutambitse, hariho icyapa cyanditseho singira n'umwe shopu kiriho amashusho y'ibyo bacuruza. Umuryango w'iyi botikwe urakinguye, imbere hateretse imifuka myinshi, hanze hateretse umufuka uri ku tubaho, ibumoso hari urugo rwubakishijwe ibiti, n'indi nzu ihari.

Iri ni isoko riri kugaragaza imiryango ibiri ikinguye n'akabaraza gasakaye. Ku nzugi z'imiryango hariho icyapa kigaragaza ibicuruzwa birimo, hanze hari ibibumbano bibiri biriho ikanzu ndende n'ingutiya. Imbere hari umugabo ufashe telefoni mu ntoki akebutse areba mu isoko, no hirya hari umunyamagare uri kureba hejuru. Ibindi byapa biriho abantu bambaye imyambaro itandukanye.

Inzu z'ubucuruzi imwe ifite amakositara menshi n'inkingi imbere, iteye ibara ry'umuhondo hirya hari n'inzu, iriho icyapa cya primusi handitse tekino ku mbuga y'izi nzu hari imifuka irimo ibinyabisogwe by'ibishyimbo, n'abantu bari gupakira iyi mifuka, n'umwana wambaye agakotoni k'akajipo n'agashati k'umuhondo, imbere haparitse igare, hirya hari inyubako nini ziri kugaragara igice kimwe.

Inzu y'isoko igeretse iri kugaragara igice cyo hasi. Ibaraza ryayo riteye irangi ry'umuhondo. Harimo n'amatara abiri n'inkingi imwe ihagaze. Imiryango irakinguye, ku nzugi hariho ibyapa biriho serivisi batanga. Hanze harunze imifuka ya sima y'ubwoko butandukanye. Hari umugore uri gusohoka uhetse igikapu, ufite n'indobo y'umutuku mu ntoki. Imbere hari ipoto.

Inzu y'ubucuruzi iri kugaragaza igice cy'umuryango ukinguye, hahagaze umuntu uri kugaragara igice cyo hejuru werekanye amenyo, imbere harimo imifuka ihanitse bacuruza, ku ibaraza ryayo hariho icyapa cyanditseho ibyo bakora na nimero za telefone, hamwe n'ibicuruzwa bacuruza.

Amazu abiri yubatse neza cyane, afite igisenge cya militiverisa, akaba afite urugo ruhakikije rukozwe mu matafari ndetse n’ibyuma by’amagiriyaje. Hakaba hari ubusitani, hakaba hari n’umukindo imbere yabwo. Akaba ari umuhanda ugiyeyo, muri uwo muhanda harimo amagaraviye hagati, hakaba harimo akayira k’abanyamaguru k’umutuku.

Inzu ya konoshi yometseho amakaro imbere asa n'umweru, ifite igisenge gihishe n'akabaraza gasakajwe amabati y'umutuku, ifite imiryango ibiri umuryango umwe urafunguye uwo haruguru urafunze, umuryango ufunguye imbere harimo imifuka itondetse bacuruza n'agafuka gafashe ku muryango, imbuga yayo ifite amapave hahagaze n'umukobwa wambaye bodaboda.

Inyubako iteye amarangi y'ubururu. Imbere ifite umuryango ukinguye n'amadirishya abiri akinze. Iruhande hari abagabo babiri bahagaze umwe yicaye ku ntebe. Iruhande hari agapapuro bashyiraho amatangazo. Iyi nyubako ifite ibaraza rifashe ku nkingi. Iruhande hari imodoka y'uburaga, igice cy'inyuma ifite n'ipine. Imbere handitse unguka, banke Gakenke branch.

Icyumba cya hoteli cyangwa se moteri kikaba kirimo intebe z'imisego yo kwegamiraho, kikaba gitakishijwe amashusho atandukanye cyane cyane agaragaza umuco gakondo harimo ingagi n'ibindi.

Inzu yubatse isakaje amabati ifite ibice bisumbasumbanye. Imbere hari ubusitani bw'uduti turerure dufite indabo zisa n'umutuku, imbere hazengurutse uruzitiro rw'ibyuma, hagati harimo inkingi ziteye amarangi imbere, hari icyapa cyanditseho ga na ba.

Shitingi isa ubururu, irambuye hasi, isutseho inkweto za caguwa zitandukanye, harimo izifite amarase n'izitayafite. Hari imalete ihanitse iri kugaragara igice kimwe; hari n'igiti gihagaze, gifashweho na rya hema.

Imifuka itatu iteretse kuri sima, hari mo umufuka w'umweru wanditseho ibiro icumi neti w'ifu ya mbare fayinefru y'ibigori. Iruhande hari indi mifuka y'icyatsi, ifite ibara ry'umweru ku mpande. Hirya hari undi mufuka utari kugaragara neza, igice kiri kugaragara gisa n'ubururu.

Isoko ry'imbuto ryubakishijwe ibyuma risakajwe amabati. Mu mbuto ziri ku butanda harimo ibihaza, puwavuro, n'intoryi. Hirya hari umufuka ufunze, inyuma hari abari gucuruza n'abaguzi.

Inyubako y'isoko ifite imiryango itandukanye. Imwe irakinguye, iyindi irakinze, hejuru hari amatara. Hasi hari amakaro. Hari umugabo uri kugenda mu kirongozi hagati. Ku mpande hari ibicuruzwa birimo indobo, amabase, hamwe n'imashini idoda imyenda ihateretse.

Amabase abiri arimo imboga zo mu bwoko bwa shufureri, amababi bayakuyeho. Inyuma y'amabase hariho imifuka irimo ibirayi, hariho n'indi mifuka irimo ubusa.

Imbuto z'avoka zirunze ari nyinshi, harimo imwe yamenetse ikibuto cy'imbere kigaragara, imbere hahagaze abagore bari kugaragara igice cyo hasi, hari umugore ucigatiye umwana, undi afashe terefone mu ntoki.

Imboga zitandukanye zisutse ku mahema arambuye ku butaka harimo: dodo, inyamutongo, karoti, inyanya, n'intoryi. Hari umugabo uhagaze ku ihema ari gucuruza, abandi bahagaze ku mpande bari kugura ibicuruzwa.

Ibicuruzwa bitandukanye harimo ibihumyo byinshi, birunze mu ndobo y'icyatsi, iruhande hari ibitunguru bifunze udufungo dutoya, hari umugabo uri gucuruza n'inkoko iri kureguka, inyuma hariyo amacupa arimo amavuta ya palastiki biteretse ku bikarito.

Isoko rigeretse riri kugaragara igice cyo hasi, gifite inkingi ziteye irangi ry'umweru n'umukara, hariho amatara atari kwaka, ku mpande hari uruzitiro rukoreshejwe ibyuma, ku gasima harunze imbuto n'imboga bitandukanye, harimo karoti, imiteja, ibitunguru, inyanya, hari n'umugore wicaye imbereye hari umunzani uriho isahani.

Isoko ryubakishijwe ibyuma risakajwe amabati. Harimo abagurisha n'abari kugura, umwe afashe imineke mu kiganza, abandi barahagaze. Imbuto zirimo ziratandukanye, harimo ibinyomoro, imyembe n'imboga.

Iri ni isoko ryubakishijwe ibyuma risakajwe amabati ririmo imbuto zitandukanye harimo wotameroni, imineke, n'imyembe. Imbere hirya y'icyapa cya emutiyeni kiriho uburyo wakishyura ukoresheje momo, ndetse n'abakiriya bari mu...

Aka ni agasoko ko ku muhanda, kari gucururizwamo:imbuto n'imboga, bitanditse ku mufuka bikaba biteretse hasi, abagore bari gucuruza, bamwe barifumbase, abandi barunamye bategereje abakiriya, inyuma hari abantu bahagaze bari muri gahunda zabo zitandukanye.

Imbabura enye zikozwe mu byuma n’ibumba, zifite umuryango imbere. Hejuru mu ibumba zirapfumuye, ziteretse kuri sima. Inyuma hari ibindi bikoresho by’ibyuma bikoreshwa mu gukora imbabura.

Isoko ryubatswe ku buryo bwa kijyambere rigeretse, abantu batatu bari kumanuka, abandi babiri bari kuzamuka. Mu bari kuzamuka uri inyuma n'ushinzwe umutekano, babita abasekirite hakaba hagaragara igice cya esikariye kiriho uturindabasazi.

Imyenda itandukanye isandaguje hasi, harimo amakabutura, imipira, iruhande hari umuryango ukinguye n'agakuta gatoya kubabakishijwe amatafari. Bisandaguje kuri sima no ku kuma k'agatanda kari hejuru y'umugende utwara amazi, iruhande hari amapave ari kugaragara gatoya.

Umugore wicaye iruhande rwe hari udupaniye twuzuye karoti, hari n'ikirundo cya karoti, hirya hari intara iriho urusenda rufunze mu mashashi, hirya hari ikirundo cy'imiteja, hari abagore babiri bahagaze imbere ye, n'abandi bari inyuma, iruhande hari ubutanda bukozwe mu mbaho bwegetse, hamwe n'igare ryegetse ku nzu ifite imiryango ifunze.

Isoko ryubakiye ririmo abacuruzi n'abaguzi, ndetse n'inzira z'abanyamaguru bari gucuruza n'abari kugura. Harimo ibiribwa ibitoki n'izindi mboga, hakabamo imifuka hakabamo n'amakara.

Ni butike cyangwa supamaketi ifite ibihande bibiri birimo amayetajeri, ayo mayetajeri akaba arimo ji, ndetse n'indi mitobe yo mu bwoko butandukanye, imbere y'ayo matejeri, hateretse ameza, ayo meza akaba ariho uducupa turimo amaji atandukanye.

Icyumba kirimo etajeri irambitseho ibikarito birimo ibicuruzwa, harimo umunyu, yawurute, imitobe, n'amabiswi. Ku gikuta hariho inkoko iri kugaragara igice kimwe.

Inzu iri kugaragaza igice cy'umuryango gikinguye, hahagaze umugabo upfumbase amaboko wambaye agapfukamunwa, imbere hari ibicuruzwa bitandukanye bacuruza, hejuru handitse farumasi.

Isoko ryubakishijwe ibyuma risakajwe amabati y'ubururu. Hanze haryo hari abantu bari gucuruza bicaye kuri tabureti hari umugabo uhagaze yambaye isarubeti n'ingofero y'urugara. Bafite ibicuruzwa biri mu mufuka, ku kuruhande rwo hakurya hari umusozi uriho utuzu dutoya.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye. Harimo utubati dufunze turiho ingufuri, akandi kabati urugi rwenda kuvaho, imbere yako hari bodaboda z'amabara atandukanye ziri ku murongo. Inyuma hariyo ibicuruzwa, indobo, amabase. Igisima kimwe kegetseho igare, hari umugore wambaye ikanzu y'umutuku wicaye undi mugore arahagaze.

Uyu ni umusaruro w'imboga zitandukanye, harimo puwavuro z'umutuku n'iz'umuhondo ziri mu ibase ziteretse ku meza ,arambitse amufuka inyuma hari igipankarite kirimo ibitunguru bya onyo, iruhande hari umufungo w'ibitunguru bya puwaro, hari ikirenge cy'umugore uhagaze hirya hakaba hari ikijerekani cy'umuhondo.